Icyapa kiri hejuru y'umuryango ufunguye, hashushanyije ho inzoga ya sikoro, handitseho amazina y'akabari na resitora.

Utubari twose twashyiriyeho ingamba ko tugomba gufunga saasaba z'ijoro zitarenze, utubahirije ayo mabwiriza afatirwa ibihano bikakaye.

Ku meza yo mu kabari harambitseho agatabo gatoya kazwi ku izina rya menyu, handitseho ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa, bitandukanye.

Mu kabari hari ameza manini ateretseho icupa ry'inzoga, ibirahuri bibiri, ibiganza by'abantu. Kimwe gifashe telefone mu ntoki.

Urupapuro rwanditseho ibyo kunywa bitandukanye n'ibiciro byabyo rukunze kwifashishwa muri za resitora mu buryo bwo gufasha abakiriya kugira ngo bamenye ibicururizwa aho hantu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, umugore wicaye ku meza ikiganza gifashe ikirahure mu ntoki amacupa abiri y'inzoga ateretse imbere ye, ku kuboko kwe hariho agakomo.

Akabari gasize irange ry'umutuku n'iry'umukara, hateraniyemo abantu b'urungano, basangira ibyo kunywa bitandukanye, bafite akanyamuneza.

Icyapa kiri ku nzu y'akabari gakorerwamo na resitora, kiriho inzoga ya virunga, ikirahure cyuzuye gisendereye ifuro.

Icyapa kigaragaza ahakorera resitora n'akabari, umuryango ukinguye ucuruza imyenda y'abagabo n'iy'abagore.

Amacupa atatu ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ateretse ku meza yo mu kabari apfundikiye arimo inzoga z'amoko atandukanye mitsingi, amusiteri na sikolo.

Urupapuro rurambitse ku meza rwanditseho ibicuruzwa n'ibiciro byabyo aho umukiliya arusoma agatumiza icyo ashatse atagombye kubaririza ngo hari iki.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari. Etajeri ndende hapanzemo inzoga za likeri, udutebe tureture imbere ya kontwari y'umukara. Umusore uhagaze ari kubara ibicuruzwa.

Ibirahuri byiza birebire birimo amazi biteretse ku meza; ku ruhande hari ikiganza gifashe agatabo gafite ibara ry'umukara, gashushanyijeho ikirango cy'umutuku.

Inzu y'akabari ifite igisenge kirimo amatara yaka, abantu benshi bicaye ku ntebe, bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Umusore muremure wambaye ipantaro y'umutuku ahagaze imbere y'igikesi kirimo ubusa, imbere ye hicaye abasoma inzoga abaganiriza bamutumbiriye.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'akabari. Gifite sale nini ushobora kwakiramo amanama, ibirori bitandukanye cyangwa uruganiriro rw'abantu benshi.

Umusore mutoya w'imibiri yombi ahagaze kuri kontwari mu kabari yambaye isaha ku kuboko afite umusatsi wa afro arasuka icyo kunywa mu kajage.

Urungano rw'abasore n'abakobwa basohokeye mukabari kagezweho kitwa bigi hawuzi, bahagaze kuri kontwari basabana basangira icyo kunkwa.

Inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, ku muryango hari icyapa kigaragaza serivise batanga, na nimero ushobora guhamagara uramutse ubakeneye.

Ibinyobwa bigiye bitandukanye byo mu bwoko bw'imivinyo, mu rurimi rw'amahanga bita likazi, biteretse kuri kontwari yo mu kabari, umusore wirabura ubyegereye aramwenyura.

Abagabo bicaye ku meza atukura afite ikirango cy'izoga ya mitsingi. Buri wese imbere ye hateretse amacupa y'inzoga yo mu bwoko akunda.

Ameza akozwe mu rubaho, intebe iriho ikote ry'kigina, etageri ndende ipanzemo inzoga z'ubwoko butandukanye higanjemo amarikeri.

Inyubako ikoreramo akabari ka Parupeki. Amavaze ariko indabo n'imikindo. Icyapa ku ruhande kiriho inzoga ya virunga. N'ikirahure.

Amayoga y'ubwoko bwinshi ateretse muri tajeri ndende, abanywi bazo ntibashira inyota iyo unyweye ikinyobwa kidasindisha inda irabyimba, uwanyweye ikirimo alcohol aguma afite icyaka.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikorerwamo akabari. Abicaye ku dutebe twiza dukoze mu byuma, ku meza hariho ibinyobwa bitandukanye by'imitobe n'inzoga. Abafite amatelefone mu biganza yaka.

Ibirahure birebire biteretse ku meza icyo ku ruhande kirimo agatambaro k'isuku, ibiyiko n'amakanya biri ku meza, ibiganza bibiri birambuye.

Ameza y'urubaho ari munzu itangirwamo ibiribwa n'ibinyobwa, ku intebe hicaye umugore ndetse n'umwana bategereje guhabwa serivise.

Insakazamashusho, televiziyo, ku rukuta. Abantu benshi bicaye mu kabari. Umuseriveri wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara,

Akabari karimo amatara yaka amabara y'ubururu, umutuku n'icyatsi kibisi. Kuri kontwari hicaye abari gusangira icyo kunywa batuje bareba televiziyo.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabiri, ifite icyumba cyagutse. Munsi ya kontwari, hari uwicaye arambuye amaguru ku ntebe. Haruguru ye, hari umucuruzi uhagaze impande ya firigo.

Ameza y'umukara ariho ikiganza cy'umuntu, imbere hari ikirahure kirimo imiheha ibifunikishije udupapuro tw'umweru ku ruhande icupa ry'icyatsi kibisi, imbere gato kuri kontwari hicaye umusore wambaye umupira utukura areba isakazamashusho.

Agatabo gatoya gakubiyemo ibicuruzwa nibiciro byabyo gafasha abakiriya gutumiza ibyo bakeneye bitabagoye.

Akabari karimo amatara yaka umutuku, ibiti bisize bisa neza, umugabo uhagaze kuri kontwari afata icyo kunywa.

Abakunzi b'inzoga bavuga ko iyo uyinywereye mu rugo ibiha ariko iyo ari mu kabari unywa nyinshi ziruta izo wanywa wicaye mu nzu iwawe.

Iyo wamamaje ibikorwa byawe bikorohereza kubona abakiliya mu uryo bwihuse kuko bibamenyesha aho ukorera ndetse n'ibyonukora.

Akapa gatoya ko metse ku gikuta. Ibicuruzwa tubafitiye ni ibi bikurikira: kanda kuri iryo bara ry'umukara ubashe kureba ibyo ukeneye.

Mu nyubako ikoreramo akabari, icyumba gifite amatara y'ubururu aho abifuza kujya mu kabyiniro bateranira, umugabo uhagaze kuri kontwari uri kunywa.

Inyubako nziza, ikoreramo ubucuruzi bw'akabari, ibikoresho byiza bigezweho, intebe, ameza, amatajeri. Abakagana bahabwa serivise zinoze.

Abagabo babiri bicaranye n'umugore umwe, bari kumeza bafata amafunguro; ku ruhande hateretse ibyo kunywa bitandukanye, umuseriveri ahagaze inyuma.

Amakesi menshi agerekerenyije harimo ay'umutuku, ubururu, icyatsi. Etajeri iteretsemo amacupa arimo imitobe, fanta n'ibindi bitandukanye.

Inzu isa neza ikoreramo ubucuruzi bw'akabari, ifite intebe n'ameza bikozwe mu biti, ibyuma bibiri bikonjesha mu rurimi rwamahanga bita firigo cyangwa se konjerateri.

Mu kabari hari icupa riteretse ku meza ry'ikirahuri ibara ry'umutuku, n'ikirahuri kirimo inzoga icagase, kontwari iriho amacupa y'inzoga zitandukanye.

Umugabo ahagaze hagati y'abagore babiri. Muri kontwari yo mu kabari. Inyuma yabo hari etajeri iteretsemo amacupa y'umuvinyo, mu rurimi rw'amahanga bita Rekazi.

Ikirahure kirimo inzoga iryoshye, agacupa gatoya karimo umunyu, amacupa abiri arimo inzoga yo mu bwoko bwa pirimusi, umukobwa uhagaze muri kontwari wambaye umupira wera.

Umusore uhagaze muri kontwari wambaye ishati y'ikigina, ateruye amacupa abiri mu ntoki, ukuboko kw'iburyo, kuriho icupa riri gusuka mu gikombe cy'icyuma giteretse ku meza manini.

Akabari karimo imitaka y'icyatsi kibisi hicayemo abantu bagiye batandukanye, baka ibinyobwa, umuseriveri ahagaze imbere y'kiriya ateruye ibyo kunywa.

Ikirahuri kirekire kirimo inzoga giteretse ku meza, gishushanyijeho ibara ry'umutuku. Imbere hari etajeri irimo amacupa menshi arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Umukobwa uhagaze imbere y'icyapa kiriho icupa ry'inzoga ya Mitsingi. Ku ruhande hari umupaka wa MTN ufunguye, n'agatebe ka parasitike k'umutuku. Inyuma y'icyapa hari imodoka ziparitse.

Umugabo usa nk'umuzungu yicaye ku gatebe karekare, imbere yakontwari arareba umusore umuhagaze imbere uri kumusukira inzoga mu kirahure.

Umucuruzi w'akabari udafite icyokezo, kwinjiza ifaranga rihagije biramugora; kuko benshi bashaka kurya bananywamo.

Umugore munini yinjiye muri kano kabari asaba inzoga y'icyuma. Yashakaga ku itamo ngo agabanye umubyibuho ukabije afite kuko benshi baramuseka.

Urupapuro rwanditseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ibyoroheje, inzoga, imitobe. Hariho n'ibiciro; uko buri kinyobwa kigurwa.

Akabari karimo intebe ndende z'umutuku n'ingufiya, ameza y'ibirahuri hasi harambuye itapi ifite amabara y'umweru n'umukara.

Inzoga si iz'abato! Turakangurira abacuruzi b'utubari ko bakwirinda guha abana inzoga; uzafatirwa mu cyuho, azahanwa n'amategeko mu buryo bukomeye.

Mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi aho usanga bakora ubucuruzi bw'akabari. Ibinyobwa bisindisha byiganjemo inzoga, imitobe iba ari mikeya.

Urupapuro rurambitse ku meza rwandikishijeho inyuguti z'umukara, hariho ibyo kurya bya mugitondo bitangwa guhera sakumi n'ebyiri kugera sayine. Ibiribwa bigiye bitandukanye, ibikonje n'ibishyushye ndetse n'ibiciro byabyo.

Mu mukino w'igikombe cy'isi amayoga azameneka ku bwinshi, abafana bemerewe kugura amatike yo kwinjira ubundi bakanywa ku buntu.

Urupapuro ruriho ibinyobwa byo mubwoko bwa liquors, mudukubo hariho ingano, kuruhande hariho igiciro cy'uko bigurishwa.

Urupapuro rufite ibara ry'umukara rukwereka aho wakanda kode ukabona ibicuruzwa by'ikigo cya coma di.

Akabari gafite amatara yaka ubururu n'umuhondo, n'umutuku. Etajeri iteretsemo amacupa y'inzoga z'ubwoko butandukanye.

Ibikoresho udashobora kubura mu bucuruzi bw'akabari harimo: amacupa y'inzoga, amakese, ama kontwari, ama meza n'intebe, amatara y'amabara y'ubwoko butandukanye akurura abakiriya.

Etajeri ndende ipanzemo ibinyobwa by'ubwoko butandukanye: imitobe, inzoga, fanta. Amakesi apanzemo ibinyobwa, intebe za purasitike imiheha mu kirahure.

Umugi wa Kigali washyizemo imbaraga mu bugenzuzi bw'amasuku mu mazu akorerwamo ubucuruzi bw'amaresitora n'amabare.

Umugabo wambukiranya umuhanda w'amabuye hakurya umutaka w'umuhondo wa emutiyeni. Icyapa kinini kiriho icupa ry'inzoga ya mitsingi ipfundikiye.

Mu nzu y'akabyiniro abazungu bahagaze batonze umurongo, bateruye uturahuri banywamo baganira ibiganiro byuje ubwuzu.

Icyapa cy'umukara kirambitse ku meza kiriho ibiribwa byo mu bwoko bw'amafi, irangi ritukura risizeho ririho ibiciro bitewe na buri kiribwa.

Umukobwa mutomuto wambaye ikanzu y'umukara ahagaze impande ya kontwari amwenyura ku mutwe afite ibisuko byitwa amadirede.

Abantu babiri bambaye amajire ya kaki bahagaze mu kabari kuri kontwari. Hejuru hari amatara yaka, ari mu dufuniko twiza, intebe zikozwe mu misego ya kaki.

Icyapa kirekire kiriho icupa rinini ry'inzoga ya sikolo, kurukuta rw'akabari kari ku muhanda wa kaburimbo werekeza kigali Nyaruguru.

Mu kabari ku meza hateretse ikirahure kirimo inzoga n'icupa ry'amusiteri, kuruhande hari isakoshi y'ikigina.

Icyapa gishushanyijeho ikirahuri kirimo inzoga, ifoto y'umuntu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ibiribwa bikoze mu ifarini n'ibikoze mu inyama hagati hateretsemo igikombe .

Icyapa kinini cyamamaza inzoga yo mu bwoko bwa Virunga, hashushanyijeho icupa rirerire ry'icyatsi kibisi inyuma harimo ibirahuri cyuzuye inzoga izamura ifuro risa neza.

Etajeri nini cyane mu kabari ipanzemo amacupa y'amayoga y'ubwoko butandukanye, hejuru harimo isakazamashusho televiziyo. Abagore babiri bicaye imbere ya kontwari basoma akantu.

Icapa cy'umutuku kiri hejuru kiri hejuru y'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari iherereye mumugi wa Kampala, batanga serivise zinoze.

Ku buzima bwacu! Nta kintu kiruhura ubwonko nko gusohokera ahantu hatuje ukifatira icyo kunywa gikonje kirimo indimu.

Umukobwa yicaye mu kabari, ku meza yaharambitseho isakoshi y'umukara, inyuma ye hari abagabo bicaye bareba kuri kotwari, hejuru yabo hari amatara meza.

Mukabari hahagaze urungano rwa abasore bambaye amapantaro n'amakote. Batumbiriye imbere yabo nka abakurikira isakaza mashusho "televiziyo".

Icyumba kirimo agatajeri gato gapanzemo amacupa y'inzoga, imitako itandukanye ku gikuta hasi ku gatebe gakonzwe mu rubaho n'ibyuma.

Akabari karimo televiziyo, amatara, ameza, ateretseho ibirahure birimo inzoga, ndetse n'akadobo karimo amacupa.

Umuntu ufite inarazinyoye, ntabwo yirirwa atumiza urufunguzo ngo apfundure umufuniko w'inzoga, icyo afite hafi cyose abasha kugipfundurisha atagombye kwigora.

Ivaze irimo ururabo rwiza iteretse ku meza yo mu kabari . Ku ruhande hari furigo irimo ibinyobwa bitandukanye na etajeri ipanzemo ibyo kunywa, inzoga, amazi.

Umuhanda w'amabuye, hahagaze igare ndetse n'imodoka. Umumotari atwaye umugenzi. Imbere haraturuka umugabo ugenda n'amaguru. Ku rundi ruhande hari uhagaze mu marembo y'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara, ikirahuri kirimo inzoga yazamuye ifuro, icupa ririho icyapa cya virunga.

Abakiriya bicaye mu nyubako nziza ifite amatara meza, ahakorera resitora. Imitako hejuru ku gisenge, n'icyuma gitanga umuyaga.

Akabari karimo amatara yaka umutuku, abakiliya bicaye bari kunywa inzoga ya amusiteri, ameza ariho icyapa.

Icyapa cyamamaza inzoga yo mu bwoko bwa henikeni, icupa ry'icyatsi kibisi ririmo risuka mu kirahure, inyuma inyubako ya etaje ifite fondasiyo y'amabuye.

Icyumba gicururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, Etageri iteretseho icupa ry'icyatsi kibisi, hejuru hariho amatara yaka neza cyane, amabara y'iyo nzu nayo ubwayo aratangaje.

Icyapa kiriho umusore n'umukobwa mu ruhande rw'iburyo ndetse no mu ruhande rw'ibumoso. Hagati harimo icupa rinini cyane ry'inzoga ya skol, inyuma hari inyubako ndende ya etaje.

Tubafitiye inzoga z'ubwoko bwose aho ushobora kugura rikeri ukoresheje ikarita ya viza wishyura.

Mu kabyiniro karimo akabari, amatara yuje ubwuzu abakururwa na yo bashaka ibinyobwa bibagera ku nyota bakabinywa basabana.

Ameza manini y'uruziga, akoze mu rubaho rwiza, hateretseho ikirahuri kirimo inzoga icagase. Ku mpande zombi hariho amacupa y'inzoga ya Amusiteri.

Benshi bavugako inzoga ari mucyurabuhoro. icyapa cy'umutuku kiri ku gikuta gisize irangi ry'umuhondo. Mu Rwanda hadutse inyito ivuga ko atari iz'abato.

Urubaho rw'umukara, rwandikishijweho ingwa, ibinyobwa bitandukanye n'ibiciro byabyo n'iminsi binyobwaho; ku wa mbere, iyo uguze amacupa abiri, bakongeza rimwe ry'ubuntu.

Ameza manini maremare yo mu kabari, ateretseho amatara. Abicaye bafata icyo kunywa, baganira. Hejuru, televiziyo ebyiri zamamaza inzoga ya Henikeni.

Itajeri irimo amajerekani abiri y'umweru adafite imifuniko, inyubako yubakishije amatafari meza ahiye.

Amagi ku gakarito ka kaki, ameza uyanyuzeho arigengesera kugira ngo atameneka kuko arorohereye cyane.

Ikiganza giteruye agakarito k'umukara karimo amata y'ikivuguto arimo imbuto z'inkeri, n'isukari ni ay'uruganda Mukamira.

Abantu bicaye munzu isize amarange ya umweru, bicaye kuntebe imbere yabo hari ameza, bafite ibirahure mu ntoki barimo kunywa amata.

Mu nzu icururizwamo amata. Abasore bateruye ibirahure binini cyane birimo amata, babihuje bamwenyura, bafite akanyamuneza.

Umucuruzi yoherereje abakiriya be utujerekani turimo amata, kugira ngo amenya aka buri wese yagiye yandikaho amazina yabo kugira ngo abitandukanye.

Ifoto igaragaza indomo ya parasitike ifunguye, irimo amandazi abiri, n'akuma wakwifashisha uyatora. Umufuniko wayo, wegetse ku ruhande.

Icyansi gitoya gikoze mu cyuma hagati y'utujerekani tubiri tw'umweru twa pulasitiki, abana babibiri bicaye bari kunywa ikivuguto mu kirahuri.

Tubafitiye amandazi manini, n'amatoya, imigati n'amakeke. Imitobe y'ubwoko bwose, amazi, amata akonje. Ku giciro gito.

Amacupa manini arimo amazi, abayagura bagaragaza ko byaborohereje mu buryo bwo kudateka amazi mu ngo. Ijerekani y'umweru iriho umubirikira imbere y'icyuma gitunganya amata.

Ameza y'umweru ya palasitiki, ijage y'ubururu iteretseho, iparato iriho amagi iri muga tajeri kariho ikirahuri, umucuruzi uhagaze iruhande rw'icyuma gitunganya amata, ibikuta by'inzu bisize irange ry'ubururu, amakarito y'amazi nay'imtobe muri tajeri ndende.

Icyapa kiriho abagore babiri bahagaze mu nzu itangirwamo imiti, bateruye ikarito ipanzemo utundi dutoya tw'imiti.

Ibiganza bibiri bifashe agakombe karimo amata y'ikivuguto mu rurimi rw'amahanga bita yogati. Ubicigatiye ashyize ku munwa, arasomaho.

Amasambusa asa neza akozwe mu mpapuro harimo n'inyama, ateretse kuri amvirope ya kaki, umucuruzi ayagemuriye abaguzi.

Icyayi cy'amata kiri mu itasi, umugore wicaye afashe telefone mu biganza, firigo iriho icyapa cy'icupa rya coca- cola icyuma kibika amata.

Amacupa arimo amazi, apfundikiye udufuniko tw'ubururu. Agapapuro kayafunitse kagaragaza ko ari ay'uruganda rwa Nile.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo etajeri ndende hejuru yayo hateretse inkongoro ebyiri, urukuta rusize irangi ry'ubururu mu ruhande rumwe, urundi hariho inyana nziza ishushanyijeho.

Igikombe gikozwe mu kirahure giteretse ku meza cyuzuyemo amata, muri iyo nyubako harimo icupa ry'amazi n'ibindi binyobwa bidasindisha.

Mumfashe dushimire abayobozi bacu baciye umuco mubi wo kugurira amata mu dusashi dutoya, cyane ko n'abenshi mubadukoreshaga bayagezagayo bayabogoye.

Inzu icururizwamo amata, ameza, intebe, icyuma gitunganya kikanabika amata, indobo irimo ibiribwa bikozwe mu ifarini.

Inzu icururizwamo amata ijage uyiteruye arasuka mu gikombe. Udukombe tw'amabara y'ubururu icyatsi n'umuhondo, twubitse ku meza.

Inzu y'ubucuruzi, hateretsemo amajerekani manini. Urugi rufunguye rusize irangi ry'ubururu, rushushanyijeho inyana nziza; hepfo handitseho amagambo y'amata akorwa n'uruganda rwa Nyanza.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'amata y'uruganda rwa Nyanza, icyapa kiri ku muryango giha ikaze abakiliya.

Umwana mutoya uhagaze mu nzu y'ubucuruzi, ateruye agatelefone mu ntoki; ku ruhande hari igicuba cy'amata, inyuma ye hari abasore babiri bicaye bari guseka.

Etajeri ifite ibirahure, ameza ya parasitike ateretse mu nzu ya resitora, Ikiganza gicigatiye agapapuro ka isuku karimo capati.

Umugore wirabura wambaye ikote ry'umukara n'ijipo irimo amabara y'umweru. Ahagaze iruhande rw'icyuma gutunganya amata, mu nzu isize irangi ry'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye asa neza ikorerwamo ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ya Mukamira. Mo imbere harimo cyuma kiyatunganya. Mu muryango haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru

Umukobwa mwiza w'imibiri yombi wambaye agapira ku mukara ateruye ijerekani arasuka amata mu birahure byiza by'umweru bifite isuku.

Amacupa manini arimo amazi ateretse muri tajeri ikozwe mu byuma ifungisha ingufuri k'uruhande umuryango umuryango uriho urugi rw'ubururu rukinguye.

Amata y'ikivuguto avanzemo isukari n'urunyuranyurane rw'imbuto, afite impumuro nziza, uyanyweye wese agubwa neza.

Umusore wicaye ku ntebe ya pulasitiki, afite akajerekani mu ntoki, aravoma amata mu cyuma, ayashyira mu ijage ntoya.

Umugore uhagaze iruhande rw'ameza ateretseho akajerekani k'umweru, intebe ikozwe mu giti, icyuma gitunganya amata gifunguye.

Urugi rukinguye rw'ubururu, mu nzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye bidasindisha. Icyuma gikonjesha kizwi ku izina rya firigo.

Ibiribwa by'amasambusa birambitse ku isahani, bifubikishije urupapuro rwakozwe mu ifarini, mo imbere hagati harimo inyama.

Ibikoresho bikoreshwa ku kinyobwa cy'amata, bigomba kugirirwa isuku ihagije kuko iyo ubigiriye umwanda, bitera inzoka zo mu bwoko bwa amibe zidakira.

Ikiganza gifashe igikombe cy'ibumba kirimo ikinyobwa cy'amata, isahani iriho keke n'ikiyiko, ifurusheti ijombye agakeke kariweho.

Ameza ateretseho udusorori dutatu turimo amoko atandukanye y'imbuto zitunganijwe neza, ku ruhande hari iseri ry'imineke.

Ifoto yo mu nyubako, ahacururizwa amata ya Nyanza, uducupa tubiri dupfundikiye turimo ikivuguto kivanze mo n'isukari, intebe ya parasitike, yegereye icyuma kibika amata.

Yampayinka rwesamihigo twataramye, aha niho mbarangiye mwabasha gukura ibinyobwa by'amata byujuje ubuziranenge, mugaha imiryango yanyu mugasabana.

Igitambaro gifite amabara y'ubururu, umweru n'umukara kirambuye ku meza iteretseho ibirahure birimo amata, intebe za parasitiki ku ruhande y'akajerani k'umweru.

Isahani y'umukara iteretse ku meza y'umweru, irimo amagi atatu atogosheje; ku ruhande hateretse agacupa gato karimo ikirungo, ku rundi ruhande hari agacupa karambitse hasi.

Etajeri y'ubururu, irimo udukarito turimo amata, amazi, amacupa y'imitobe n'amakarito manini arimo amazi. Ameza manini ateretseho indomo ebyiri; imwe ipfundikiye, irimo amandazi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ahagaze iruhande rw'abana babiri bicaye banywa amata mu ntoki zabo bafitemo udupapuro tw'isuku turimo za keke, ku meza hateretse utujerekani tubiri kamwe imbere akandi inyuma, hagati harimo icyansi kinini.

Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ibyuma bibika amata igihe kirekire adashobora kwangirika kuko birizewe.

Udukombe duto, dupfundikiye neza, turimo amata y'ikivuguto, mu rurimi rw'amahanga bita yogati, dupanze ku murongo, dupfundikiye neza.

Amakeke asa neza akozwe mu ifarini, amata n'amagi ari ku isahani iteretse ku meza. Ku ruhande hari keke irambitse hasi.

Ameza y'umweru ya purasitike mu nzu ipavomyemo amakaro. Ibyuma bitunganya amata, indobo iteretse hasi. Inzu isize amarangi y'ubururu, akajage gateretse hejuru ya furigo.

Icyumba gitereretsemo icyuma gikonjesha mu rurimi rw'amahanga bita firigo n'icyuma gitunganya amata. Umugore wambaye imyenda yirabura, imbere ye hateretse indobo zirimo ibiribwa bikozwe mu ifarini, intebe ebyiri za palasitike impande y'ameza.

Ndi kubona inzu igaragaza ubucuruzi bw'amata bwanditsemo. Ni iduka ricuruza amata.

Mu gikorwa cy'ubucuruzi abacuruzi bose banezezwa no kubona ibicuruzwa byabo bigenda ifaranga ryinjira. Iyo bitameze neza umunezero wabo uragabanuka.

Umugabo muremure, uteruye icyansi cy'icyuma, arabuganiza amata ayasuka mu ikaragiro, aho abikwa igihe kirekire, ntabashe kwangirika.

Amata ateguwe neza, urareba uwo muziranenge uyasoma utemba itoto utemba inshyushyu ku matama? uwawe ntukayamwima.

Akajerekani karimo amata acagase gateretse muri firigo. Utujage tubiri. Amajerekani abiri abikwamo amazi ya Jibu. Igikuta cyubakishije amatafari.

Amafunguro ari ku isahani, ateretse ku meza. Igikombe cy'amata acagase k'ikirahure. Ese koko, iyo wariye inyama kirazira kunywa amata?

Umugabo wicaye afatiye itumanaho rya terefone ku gutwi, umugore uhagaze imbere ye, wambaye ikote ry'umukara, ku ruhande icyuma gitunganya amata.

Tubafitiye amagi meza ku giciro gitoya utasanga ahandi. akarusho umuguzi utuguriye amakurete atatu tumwongeza iya kane ku buntu.

Mumbuga nini iteretsemo ameza n'intebe n'umutaka ifite ibara ry'umutuku, inzu icururizwamo ibinyobwa by'amata byuruganda inyange, inzugi zisize irange ry'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bidasindisha, urukuta rusize irange ry'ubururu, etajeri ndende irimo ibinyobwa bitandukanye by'imitobe n'amazi.

Ameza akozwe mu giti, ateretseho utujerekani tw'umweru. Umukobwa wirabura, ufite ijage y'icyatsi kibisi mu ntoki, arasuka amata.

Ikiganza gifashe urupapuro rw'isuku, rurimo ikiribwa cyo mu bwoko bw'imigati, cyitwa keke. Imanyuye, yariweho.

Ibiribwa bya capati bikozwe mu ifarini, birambitse ku gasahani gasa neza. Uzireba wese yazigiririra apeti kuko ni ibiribwa biribwa n'abantu bose.

Umugore wicaye ku meza arambitseho amaboko, ikiganza ku ruhande rwe, ku mutwe we ibisuko byiza by'amamenshi. Mu nzu hasi hubakishije amakaro y'umweru.

Amandazi atatu ku gasahani, imyumbati, igikombe k'inshyushyu, igokombe k'icyayi kegereye umugore mwiza urambitse amaboko mu isakoshi, iruhande firigo y'umutuku.

Akajerenani gapfundikiye karimo amata y'ikivuguto, gateretse ku meza. Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ahagaze ku ruhande.

Igiti gifite amababi atoshye giteye mu butaka, Umusore wambaye ikabutura agapira k'umukara, ahagaze apimisha amata mu gikombe.

Icyuma kibika amata y'uruganda inyange. Mu nzu isize amarange y'ubururu, umuryango urafunze. Amacupa manini arimo amazi muri etajeri, imitobe n'udushashi.

Icyumba kirimo agatajeri k'ubururu gateretseho telemusi ebyiri n'agasorori karimo ibiribwa bya capati, munsi udusorori turimo amakeke ku ruhande hateretse firigo.

Imashini zitunganya amata, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko zishobora kuyabika igihe kirekire atarangirika.

Ameza ateretseho utujerekani dutoya n'utunini turimo ikivuguto, udukombe n'uducupa duto turimo yawurute.

Amandazi akoze mu ifarini, ayahiye yisatuye ay'umuhondo ari ku isahani iteretse arasa neza ateye ubwuzu.

Mu nzu y'ubucuruzi ahatangirwa ibinyobwa by'imitobe n'amata harimo intebe z'ubururu za parasitike iz'umweru, udutajeri, firigo n'abacuruzi babiri.

Ayamandazi araryoshye ndakakubura, urebeye kurimanyuye mwimbere ubonako rikozwe mwifarini namagi nisukari n'amata, uwayarya ntiyayava imbere.

Leta y'u Rwanda ikangurira abacuruzi bafite ibikorwa birimo inyama, amata, ko bagomba kubikorera mu mazu yubakishije amakaro asa neza kandi agakorerwa isuku ihagije.

Icyuma gitunganya amata kizwi ku izina ry'ikaragiro, cy'uruganda Inyange. Etajeri iriho utujerekani, amakarito, amacupa y'imitobe ndetse n'ay'amazi. Inyubako ndende.

Etajeri y'ubururu ipanzemo ibinyobwa by'imitobe n'amazi n'amatara. Imbere hari akabati kariho indobo yubitse. Mo hagati harimo iparato iriho amandazi, ku ruhande hari icyuma gitunganya amata.

Ibicuba binini bikoze mu byuma, abagabo babiri barazamura amaboko. Bagemuye amata. Bayatwata ku igare bakayashyikiriza abacuruzi.

Amacupa matoya arimo ikivuguto cyo mu bwoko bwa yogati, apanze mu gatajeri k'utwuma. Aho bayabika mu buryo bwiza.

Ikaramu y'ubururu irambitse ku meza. Ikirahure cyuzuye amata. Keke ikoze mu ifarini, uyirya aguwe neza, ayisomeza.

Ibikombe bibiri by'umweru ikinini n'igito birimo ikivuguto, abicaye bateruye ibirahuri bari kunywa amata.

Mu nzu y'ubucuruzi hateretse icyuma gikonjesha mu rurimi rw'amahanga furiji ku ruhande hicaye umugore w'inzobe ufite itumanaho rya telefone mu ntoki yegamije ukuboko ku meza.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hakwiye gukorerwa ubugenzuzi kuko hari bamwe mu bacuruzi bavangamo amazi bityo uyaguze ntabashe kuryoherwa.

Icyuma kibikwamo amata y'uruganda Nyanza, giteretse imbere y'ameza y'urubaho, hejuru hariho imashini ifunze, igaragaza igipimo cy'ubushyuhe.

Mu nzu isaneza ifite isuku amatajeri maremare akozwe mu byuma utujerekani dupanze neza turimo amata.

Indobo iteretse ku meza imfunduye; irimo ama keke akozwe mu ifarini; umufuniko urambitse kuruhande rwayo.

Imigati ikoze mu ifarini ihiye neza bayikatanye ubuhanga. Kuyipanga mu ishashe biroroshye. Irambitse ku meza afite isuku.

Agacupa gatoya gateretse kumeza karimo uduti dutoya twifashishwa na benshi mu bamaze gufata amafunguro kudufataho nta kiguzi bakwaka.

Ikiganza gifashe ku ikarito irimo umutobe w'amatunda, ifite igipimo ingana na litiro imwe. Igaragaza ko ifite ubukungu kuri vitamine ya se.

Inzu y'ubucuruzi irimo etajeri ndende, ipanzemo amakarito n'udukombe dutoya turimo amata; imbere hari kontwari irimo udushashi dufunzemo amata.

Mu nzu icuruza ibiribwa izwi ku izina rya Restaurant, ku meza hateretse isahani iriho ibyo kurya bikozwe mu ifarini.

Ibiribwa bitandukanye bikozwe mu mafarini, bikundwa n'abantu b'ingeri zose. Umwana wanyoye amata, agira umubiri woroshye,

Ahatunganyirizwa ibinyobwa by'uruganda Mukamira. Harimo imitobe, amata, bifunzwe mu dukarito, bikoherezwa ku baguzi babikeneye kugira ngo bicuruzwe.

Uruganda rw'inyange rufite amashami menshi ahantu hagiye hatandukanye. Amakaragiro yarwo atunganya amata aryoshye.

Agasashi karimo ibiribwa bikozwe mu ifarini, karambitse hejuru y'agatureyi ka parasitike kabika amagi. Biteretse hejuru ku meza.

Ipikipiki iriho icyansi gikozwe mu cyuma, akajerekani kabohesheje umukoba. Igare rihagaze mu muryango. Inzu y'amakaro, amata bayabogoye.

Amatama masa ntasabira inka igisigati, amatama yuzuye amata atemba itoto, mutima muzima w'uruhu rutoshye.

Etajeri iteretsemo amacupa manini n'amatoyo arimo amazi, urundi ruhande ruteretsemo imitobe itandukanye, hagati icyuma gitunganya amata.

Amaduka manini akinguye imiryango aherereye mu murenge wa kimironko. Umugore wifubitse agatambaro gatukura mu ijosi, aramburakiranya umuhanda w'amabuye. Imodoka yo mu bwoko bwa Rava ihagaze ku muhanda.

Indobo y'ubururu iteretse hasi. Inyuma hariho icyuma gutunganya amata y'uruganda Inyange. Imbere gato hari ikiganza cy'uteze agakobwe ku karobine gasohora amata.

Agatebo gashyirwamo imyanda, gatugura, kari munsi y'ameza. Iseri ry'imineke, indobo irimo capati, iyindi irimo amandazi. Umuryango ufunguye. Umusore uhagaze areba ku ruhande.

Inzu icuruza ibyo kunywa bidasindisha, umukobwa wicaye ku ntebe ya purasitike y'ubururu yambaye agakote k'ikoboyi, umusore uhagaze afite udukarito mu ntoki tw'icyayi yambaye ishati ya karokaro.

Udutambaro tw'isuku dufunze mu gasashe gacitse. Turambitse mu gatebo ka parasitike gateretse ku meza y'urubaho, mu nzu y'ubucuruzi.

Kumeza matoya arambuyeho igitambaro gifite ibara ry'ubururu n'umweru harambitseho udusashe tune dufunzemo ibyokurya bikoze mwifarini.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa by'uruganda Inyange, imiryango yayo irafunguye, ku mbuga hubakishije amapave akozwe muri sima.

Umusore muremure, wirabura, wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze kuri kontwari afite agakarito mu ntoki, imbere hari umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu, harimo tajeri ipanzemo ibinyobwa by'imitobe bitandukanye.

Gana ishami rikwegereye rya emutiyeni, uhabwe ubufasha ku bijyanye no kuba waribagiwe umubare wawe w'ibanga, bawuguhindurire mu buryo bwihuse.

Imbere y'inyubako ndende agakiyosike gatoya gacuruza amatelefone y'ikigo cy'itumanaho cya MTN ahendutse, abacuruzi bambaye imyambaro myiza.

Mudasobwa y'umukara ku meza udukarita umukozi wa emutiyeni aratanga serivise ku mukiriya uri kumwenyura wambaye umupira w'umukara wa rakosite.

Ahari gukorera imurikabikorwa by'ikigo cya eyateri, hateraniye abantu b'urujya n'uruza baje kwihahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye bikorerwa muri icyo kigo.

Mu kibuga kinini, ahakorerwa imenyekanishabikorwa ry'ikigo cya serivise z'itumanaho, emutiyeni Rwanda, ahakorerwa ubucuruzi.

Ibiganza bibiri by'ufashe telefone mu ntoki, muri sikirini harimo urupapuro rugaragaza ko agiye kwishyura amafaranga magana atanu yo kugura megabayiti.

Umugore wirabura uhagaze amwenyura afite akanyamuneza ku maso yambaye umupira w'umuhondo n'itaburiya iriho ikirango cya mtn.

Abagabo babiri bahagararanye bamwenyura, umwe afite telefone mu ntoki na anverope. Undi yambaye ingofero ya ubururu na umupira wa umuhondo.

Ifoto irimo amashusho y'abantu babiri bateruye telefone mu biganza, ku meza harambitse agatelefone gatoya. Bigaragaza ko hari ibyo basobanurirana ku bujyanye n'ayo matelefone.

Umusaza wambaye igikote cy'umukara, afite agatelefoni gatoya, arishyura umu-agenti w'ikigo cya MTN. Amafaranga arayohereza yifashishije itumanaho rya telefoni ngendanwa.

Ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni gifite amashami menshi mu bihugu bya Afurika, aho usanga mu Rwanda hari udukiyosike duto muri buri mudugudu.

Iyo uri kwishyura ibicuruzwa ukoresheje kode ya MTN, byorohereza umukiriya kuko nta kiguzi yakwa cya serivisi.

Kugaragaza akanyamuneza imbere y'abakiriya bituma bishimira ibikorwa byawe; ariko iyo ukunje isura urabakanga bakigendera ntibazagaruke.

Umugabo utwaye ipikipiki iriho ibicuruzwa bishyikirizwa abaguzi aho baherereye. Aragura amayinite ku mu ajenti wambaye ijire y'umuhondo.

Abagabo batatu bahagaze mu idirishya rifunguye ry'inzu ntoya, ikorerwamo ubucuruzi bw'itumanaho, aho ushobora kohereza no kwakira amafaranga.

Umugore ufashe terefone ngendanwa mu kiganza k'ibumoso, ikiburyo gifashe ikaramu n'agakarita kariho kode bakifashiasha bamwishyura serivise atanga.

Umuhanzi kazi w'umunyarwanda Bwiza ahagaze yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi yamamariza ikigo cy'itumanaho cya emutiyene.

Ukeneye kubikuza amafaranga tugane cyangwa serivise zikorerwa ku irembo. Mu nzu ntoya yubakishije imbaho zisize irange, udutako turiho tw'imigongo.

Umugabo wirabura ufite ikaramu mu ntoki, arandika fagitire ya umuguzi uhagaze mu idirishya rya kiyosike acururizamo. Inyuma ye hari umuhanda wa kaburimbo ukoze neza, haparitse amamodoka y'ubwoko butandukanye.

Amazu abiri matoya akorera ibigo by'itumanaho Eyateri na Mtn. Aho ushobora kubagana ukabitsa, ukanabikuza amafaranga ukishyura ifatabuguzi rya DSTV n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu gihugu giteye imbere aho usanga umuturage wese afite telefone ngendanwa. Aho ashobora gukoreramo ibikorwa bitandukanye byo kohereza no kwakira amafaranga.

Ifoto igaragaza inyubako ikoreramo ikigo k'itumanaho cya eyateri, agatajeri keza karimo amaterefone, abagore babiri basetse cyane batangaye.

Umugabo yambaye ingofero mu mutwe y'abatwara amapikipiki, mu rimi rw'amahanga yitwa "cask", imbere hahagaze umugabo n'umukobwa, bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN.

Ikarita y'umuhondo iriho kode z'umucuruzi yishyuriraho ibyo uguze utishyuye ikiguzi cya serivise

Iduka ritoya ricuruza amaterefone, idirishya ryaryo rirakinguye. Umukozi yicayemo imbere, ku ruhande umugabo utambuka wambaye ishati y'icyatsi kibisi.

Urifuza kuryoherwa n'umuvuduko wa enterinete yihuta ya foji gana ishami ryose rikwegereye rya MTN bagufashe kubona iyo serivise muburyo bwihuse.

Ahatangirwa serivise zo kwakira abagana ikigo cy'ubucuruzi cya Eyateli. Hahagazemo abantu bakeneye guhabwa izo serivise, abandi baricaye barategeteje.

Mu kazu gatoya gacuruza serivisi za MTN. Umugore uhagaze, amadirishya n'urugi bikinguye. Inzu yiduka rya Airtel.

Icyapa kiriho imodoka nziza yo mu bwoko bwa jipe n'umugabo watomboye moto. Kiragukangurira gukoresha ikoranabuhanga rya emutiyeni, aho ushobora gutsindira ibihembo bitandukanye.

Icyapa gito cyandikishije utunyuguti dutoya. Ni ikigo cy'ubukerarugendo gitembereza abashaka kureba intare, inzoka, inyoni. Aho wishyura ibihumbi makumyabiri na bitanu ugahabwa amafunguro.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bwinshi yambaye agapira ka icyatsi kibisi, afite ikarita muntoki itukura na telefone. Imbere hateretse utubase twuzuye inyanya.

Umu agenti wambaye ijiri y'umuhondo, ukorera ikigo cya emutiyeni. Ahagararanye n'umugabo wambaye umupira utukura n'amataratara mu maso. Afite telefoni ngendanwa mu biganza, bandikirana ubutumwa bugufi.

Inyubako ikoreramo ibiro bya emutiyeni, abakiriya barahabwa serivise, abakozi bicaye imbere ya mudasobwa batanga serivise.

Ahatangirwa amahugurwa ku bantu bifuza gukorana n'ikigo cy' itumanaho cya MTN, wifuza kuyicururiza kuba umu ajenti cyangwa akazi.

Ahantu henshi mu maduka acuruza ibiribwa uhasanga urupapuro turiho ibiribwa bitandukanye bitondetse ku murongo

Umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo imirongo ahagaze mu idirishya ry'inzu ntoya y'umuhondo icuruza mobayiromani n'ibindi bijyanye na emutiyeni.

Umugabo wicaye ku ntebe, afite telefone ngendanwa mu kiganza icanye yakamo ibara ry'umuhondo, asoma ubutumwa bugufi. Ku bibero agakapu k'umukara.

Inyubako ikoreramo ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho cya emutiyeni. Umugabo w'umuzungu ateruye agaseke, umukiliya arambitsemo ikiganza bombi baramwenyura.

Amapikipiki abiri ahagaze ku muhanda, abagenzi bayavuyeho bari kwishyura abamotari bari babatwaye. Amafaranga barayatanga bakoresheje ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa.

Mu nzu ntoya isize irange ry'umuhondo inyuma handitseho amagambo ko bohereza bakanakira amafaranga, mo imbere hahagaze umukobwa wirabura umwenyura ufite akanyamuneza.

Inzu ntoya y'ubucuruzi itanga serivise za MTN. Amadirishya abiri arafunguye. Hamwe hahagaze umusore wambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara. Ku rundi ruhande hahagaze umukobwa wambaye ishati y'umutuku n'ijipo y'umukara.

Ku cyapa abantu benshi batandukanye bahagaze bategereje imodoka, akazu ka emutiyene gafunguye amadirishya yose, umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu ahagaze amwenyura.

Amazu matoya akoreramo abajenti b'ikigo emutiyene, byorohereje abakiriya kubona serivise batagombye gukora ingendo ndende.

Inzu ntoya isize irangi ry'umutuku, yanditseho amagambo y'ikigo cya eyateri gikora ibijyanye n'itumanaho. Hometseho utwapa dutoya twamamaza.

Umucuruzi n'umuguzi iyo baganiriye bibafasha kugura neza ntanumwe uhenzwe, ariko iyo umubwirana umushiha arigendera.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, ishami rya emutiyeni, abakiriya bahagaze imbere ya mudasobwa. Bategereje gukorerwa siku swapu.

Abana batoya bahagaze iruhande rw'agakoyosike gato gafunguye, umusore uhagaze mu idirishya wambaye umupira w'umweru, icyapa cya emutiyeni mobayilo mani.

Umaze gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani nakabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe, shyiramo umubare w'amafaranga hanyuma wemeze wohereze k'umucuruzi.

Icyapa kiriho ifoto y'inzu itangirwamo serivise z'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, harimo amatara meza yaka neza.

Telefone iri mu biganza by'ugiye kwishyura fagitire akoresheje kode y'umucuruzi, igaragaza amafaranga agiye kwishyura n'amazina y'umucuruzi.

Imipira, ingofero by'umuhondo by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni birambitse ku meza umugabo wunamye wambaye umupira w'umweru n'ipantalo y'umukara mu nzu ahagiye kubera imurikagurisha.

Umutaka w'umutuku, w'ikigo cy'itumanaho cya eyateli. Hahagaze abagore n'abagabo, bategereje guhabwa serivise.

Abagabo babiri bahagaze mu idirishya rifunguye, kiyosike yanditseho amagambo y'uko ushobora kugura ukanandikisha simukadi.

Amadirishya abiri y'inzu ntoya ziri mu ibara ry'umuhondo ahatangirwa serivise z'ikigo cya emutiyeni handitseho icyapa gitoya cyamamaza.

Abagabo babiri bitakumbye babyina ahari gukorerwa imurika bikorwa by'ikigo k'itumanaho cya emetiyeni. Batanditse imbariga barambuye amaboko.

Icyapa gito cy'ibara ry'umuhondo cyometse ku gikuta. Kigaragaza uburyo ushobora kwishyura ukoresheje itumanaho rya emutiyeni, bakunze kwita momopeyi.

Umugabo mw'idirishya, ingofero y'umukara, agapfukamunwa, agakiyosike gafunguye amadirishya umucuruzi arabara inote.

Ifoto iriho umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi ahagararanye n'umukobwa begamiye inzu ntoya y'ubucuruz ya emutiyene mobayiro mani.

Rugigana ahagaze mu idirishya ry'agakiyosike gato, aritegereza umusore wambaye umupira wanditseho ikinyobwa cya coca cola, abakunzi bacyo bagaragaza ko kirushaho gukundwa.

Umugabo uhagaze yifashe mu mugongo. Yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, araganiriza umucuruzi uhagaze mu nzu ntoya itangirwamo serivise za emutiyeni.

Inzu ntoya ikorerwamo ubucuruzi butanga serivise z'ikigo cya emutiyeni, amadirishya yayo arafunguye; uhagaze ahetse igikapu cy'umukara arebana n'umu ajenti.

Icyapa kimanitse ku nzu y'ubucuruzi itangirwamo serivisi za MTN, aho ushobora kugura ipaki, ugatsindiramo ibihembo byinshi.

Inzu ntoya ishobora kwirukanwa, icuruza ibijyanye na serivisi za emutiyeni. Amadirishya yayo arafunze. Inyuma hateye indabo nziza z'ibiti bwo mu bwoko bw'imikindo.

Ni iduka rikorerwamo ubucuruzi, hahagazemo abakiriya, umwe afite telefone, agaragaza ko yatanze ubwishyu bw'ibicuruzwa amaze kugura. Abandi bahagaze inyuma ye, bategereje kwishyura.

Inzu y'ubucuruzi irakinze ikora ibijyanye n'itumanaho rya emutiyeni umugabo uyihagaze iruhande ashyize ikiganza ku matwi.

Umu ajenti yafunguye Kiyosike saa mbiri n'igice abakiriya baramugana baje kubikuza no kubitsa amafaranga mu buryo bw'itumanaho bwa telefoni igendanwa.

Abasore batatu bambaye imipira y'umuhondo iruhande rw'icyapa cyamamariza itumanaho rya emutiyeni umuronko wamamaza wayoba.

Firigo ifite ibara ry'umutuku nicyapa cya coca cola munzu yubucuruzi, umugore munini arishyura akoresheje momo payi.

Iyo nguze ibicuruzwa byinshi bitandukanye najya kwishyura umucuruzi ngasanga adafite kode, umutima wange numva utabyishimiye.

Itumanahao rya telefone ngendanwa ryorohereje abarikoresha mu buryo bwo kumenyekanisha amakuru. Iyo ukeneye umuntu urikoresha uramuhamagara cyangwa ukamwandikira ubutumwa bu8gufi, bumubwira icyo wamushakiraga.

Ifoto iriho inzu itangirwamo serivise z'ikigo cy'itumanaho cya Eyateli, hariho amafoto y'umukobwa umwenyura, n'undi wicaye atuje.

Umusore uhagaze kuri sitasiyo ya esanse arishyura serivise yahawe akoresheje kode ya momo peyi.

Mutugane tubahe amatelefone ngendanwa agezweho ku giciro gito cyoroheye buri wese ntimwisondeke kuko arahendutse.

Umuntu wicaye ku ntebe, afashe telefone mu biganza, arasoma ubutumwa bugufi, ku kuboko kw'ibumoso, yambaye udukomo tubiri dukoze mu masaro.

Umugore ukorera ikigo cy'ubucuruzi cya emutiyeni, arasobanurira abakiliya ibijyanye na serivisi batanga.

Mu nzu ntoya y'ubucuruzi y'itumanaho rya emutiyeni hahagaze abagore babiri baganira, baseka amadirishya afunguye.

Isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye, udufuka tw'umweru tumanitse ku giti, Intoryi na karoti biri ku meza; abaguzi n'abagurisha baraganira.

Ameza yo mu biro ateretseho udukarita turiho za kode zitandukanye bishyuriraho mu kigo cy'ubwishingizi saniramu, kompiyuta ebyiri, inyuma yatwo hagati harimo icupa ririmo indabyo z'umutuku.

Mu nyubako irimo ameza ateretseho mudasobwa. Umugabo wicaye wambaye umupira w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni; uhabwa serivise yishimiye uburyo yakiriwe.

Umugore uhagaze amwenyura yambaye agapira k'umuhondo, araganira n'umugabo wambaye ingofero mu mutwe akorera ikigo cy'ubucuruzi cya emutiyene n'umunyabu.

Intebe z'ibyuma zicaraho abakiriya bagana ishami rya emutiyeni, umukobwa wambaye ikanzu y'ikigina ahagararanye n'umusore wambaye umupira w'umukara n'ingofero, abakozi baratanga serivise kuri mudasobwa.

Ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho rya emutiyeni gifite umuyobozi mukuru w'umuzungu, abakiriya bahagaze imbere ye abasobanurira serivise zihatangirwa.

Kwishyura ibicuruzwa ukoresheje telefone ngendanwa. Umutekano wizewe w'amafaranga yawe. Gutakara ntibishoboka cyangwa kwibwa n'abajura bagiye batandukanye.

Umugore wambaye ikanzu ndende ateruye amanvilope avuye guhaha, ku ruhande rwe hahagaze abagabo bambaye imipira yi'ikigo gitanga serivise y'itumanaho cya Emutiyeni.

Inzu ntoya ifite amadirishya atatu afunguye, itangirwamo serivise z'itumanaho za MTN, hahagaze abagore babiri na umugabo umwe bategereje guhabwa serivise.

Mu nyubako y'umucuruzi butanga imiti izwi ku izina rya farumasi, umuzungu uhagaze afite ikarita iriho kode bishyuriraho ahawe n'abagenti b'ikigo cya MTN.

Mu nyubako itangirwamo serivise za emutiyeni, hahagaze umuzungu w'umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikarita y'akazi ifite umushumi w'umuhondo. Mu kiganza cye harimo agaseke ari guhereza umuzungukazi bombi baramwenyura.

Umusore wirabura wambaye umupira w'uburongo yicaye muri kiyosike amadirishya akinguye, ibitabo imbere ye yandikamo abakiriya yakiriye.

Umutaka munini wa MTN ahakorerwa imurikagurisha ry'ibikorwa by'itumanaho, imipira, amatelefone n'ibindi bihembo bitandukanye.

Umugore wicaye ku muhanda w'amabuye ahari akazu gato gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya eyateli. Amadirishya arafunze imajine uti yagiye he?

Imyenda y'amapantaro arimo gucuruzwa. Imanitse ku duti duhambiranyije. Ikiganza gifashe ipesi mu ntoki n'akapa kariho kode ya MoMo peyi. Ijire y'umuhondo ya emutiyeni.

Ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho cya MTN cyorohereje abaguzi mu kwishyura bakoresheje umubare w'ibanga, ariko kubacuruzi barabyitotombera ngo barabakata.

Akabati gafunze, karimo icyapa gitoya, gifite amafoto y'amatelefone agezweho. Uguze ahabwa inyongera ya jigabayiti imwe, na enterinete.

Ukoresheje MTN kanda akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego winjizemo umubare w'ibanga hanyuma ukurikize amabwiriza.

Kuri sitasiyo. Umugabo wicaye ku ipikipiki yambaye ikote ry'umukara yitaba agaterefone gato. Kuruhande umukobwa wambaye ibikomo ku maboko n'amaterefone abiri mu kiganza

Umugabo usa n'ukuze utsindiye ibihembo birimo igare muri emutiyeni. Azamuye ikiganza aramwenyura aranezerewe, nawe kina utsinde,

Ni nyubako yahatangirwa serivise z'itumanaho za emutiyeni mudasobwa zicanye. Abakozi b'ikigo baratanga serivise ku bakiriya.

Mu biro by'umukozi wa emutiyeni, ameza ariho utumashini tubiri dushyirwamo amakarita, telefone igezweho, mudasobwa, umugore wicaye arambitse amaboko k'umeza.

Abakobwa babiri bicaranye bamwenyura bambaye bambaye amakarika y'akazi mw'ijosi n'imipira y'umuhondo agaragaza ikigo cy'itumanaho cya MTN.

Iduka rinini riranguza imiceri amasukari rirakinguye guhera mugitondo saa moya kugeza saa tatu zijoro, murigane kuko ibiciro babikubise hasi.

Icyapa kiri ku gikuta, aho ukanda imibare ugakurikiza amabwiriza ugatsindira ibihembo bitandukanye mukigo MTN. Umusore muto umwenyura yatsindiye igare na telefone.

Munzu y'ubucuruzi umusore uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ingofero yikigina afashe terefone ngendanwa muntoki akanda imibare yishyura ibicuruzwa kuri kode.

Icyapa cy'umuhondo cyandikishijeho inyuguti z'umukara, zigaragaza uburyo wahaha ukanishyura ukoresheje itumanaho rya MTN, nta kiguzi utanze.

Amagambo yandikishijwe inyuguti z'umukara, agaragaza uburyo wakohereza amafaranga ku mirongo yose. Amadirishya y'inzu ntoya, ikinguye, abahagaze batatu baganira.

Abagabo babiri bambaye imipira ya umuhondo yo mukigo cy'itumanaho cya MTN. Imbere yabo hari mudasobwa na umugabo uhagaze ategereje guhabwa serivisi.

Ifoto y'urupapuro rwo muri mudasobwa igaragaza iduka ricururiza i Kigali kuri murandasi. Ubucuruzi bwayo buteye imbere, bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo utwaye moto arareba mu kirahuri yambaye kasiki y'umutuku. Ahetse igikapu kirimo ibicuruzwa bishyirwa abantu bitewe n'aho batuye.

Urupapuro rw'umweru ruriho amazina y'ibihugu, ruragaragaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, ibihugu byateye imbere ku isi, uburyo bw'imihahirane bwarorohejwe.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi gikorerwa online. Hejuru hariho ibara ry'umutuku rigaragaza amagambo yifuriza ibiruhuko byiza.

Ifoto iri ku cyapa kigaragaza ikigo cy'ubucuruzi butanga ibicuruzwa bitandukanye, aho wakwifashisha itumanaho rya murandasi ukoresheje watsapu, insitagaramu na fesibuke.

Aho uri hose kw'isi, ushobora gutumiza ibicuruzwa biva mu Burayi no mu Budage udahenzwe, ukoresheje ikoranabuhanga rya mudasobwa bakabikugezaho.

Ikigo cy'ubucuruzi cya bayirasi cyatanze nimero wahamagaraho mu gihe ucyeneye amazi, gaze, ibiribwa, cyangwa ukabandikira kuri watsapu bakabikugereza aho uri.

Tubafitiye ibicuruzwa byiza ku giciro gito, hamagara k'ubuntu ukore ubusabe tubikugezeho mu kanya gato nk'ako guhumbya.

Ipikipiki ihetse agasandugu karimo ibicuruzwa by'ikigo vuba vuba iparitse ku ruhande rw'umuhanda imbere y'igiti kire kire.

Ipikipiki ya mupagasi iparitse ku ruhande rw'umuhanda iriho agasanduka kari mu ibara ry'ubururu, mu imbere harimo ibiribwa bigemurirwa abantu mu ngo zabo.

Icyapa gishushanyijeho umukobwa wicaye ku gitanda amwenyura afite ekuteri mu matwi na terefone mu ntoki, imbere ye hari agasashe k'umukara.

Igisanduku cy'umutuku cyanditseho yego, aho wahamagara kuri mirongo icyenda na rimwe, bakakugezaho ibicuruzwa. Anvirope iteretse hejuru, ikiganza kiyifashe.

Amapikipiki ane ahagaze, yicayeho abagabo bambaye kasike mu mutwe, bahetse udusanduka turimo ibiribwa; bishyirwa abantu mu ngo cyangwa aho bakorera.

Urubuga rutanga service zubucuruzi rukoresheje murandasi bakunze kwita shopping online ,Aho Wasanga ibiciro bigabanyije Kandi ibicuruzwa bijyanye n'icyerekezo.

Urupapuro rw'umweru rwo muri mudasobwa, aho bakwereka uburyo washakisha ibicururizwa cyangwa se porodagiti.

Ifoto igaragaza ikigo cy'ubucuruzi gitanga serivisi zinoze, aho ubagana bakagufasha gufungura ibigo by'ubucuruzi.

Icyapa cyamamaza, aho kigaragaza ko ushobora kugura udahenzwe ugahamagara ukanohereza ubutumwa bugufiya ku mirongo yose mu buryo buhendutse.

Abagabo babiri bahagaze begamye, agasanduka karimo ibicuruzwa gateretse ku ipikipiki bambaye amashati y'icyatsi kibisi n'ingofero mu mutwe zitwa kasike.

Umusore uparitse igare inyuma y'igipanu, ahetse igikapu mu mugongo ategereje ko bamufungurira agatanga ibyo batumije.

I Kigali mu Rwanda ahazabera igitaramo ngarukamwaka. Abahanzi batandukanye, icyapa kiri kwamamaza. Abakeneye kugura amatike murebe.

Ifoto ishushanyijeho agakarito gafunitse n'utundi dushushanyo, igaragaza ikigo gikorera ubucuruzi kuri murandasi.

Urubuga rwa murandasi, ushobora kunyuraho ukigurira inzu, ubutaka, ikinyabiziga, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bitandukanye.

Urifuza guhaha ibyo kurya bitandukanye, twandikire tubikugezeho mu buryo bwihuse nta kiguzi tukwatse cy'urugendo. Ukeneye imodoka y'ubwoko ubwo aribwo bwose watumenyesha nayo tukayikugezaho.

Icyapa kiriho ifoto y'umugore ufite udukapu ku rutugu, ikigo gicuruza gikoresheje itumanaho rya shopu onorayini.

Ibigo by'ubucuruzi bikomeye ku Isi biri gutanga akazi ku bantu bafite impamyabumenyi yo rwego rwa piyecidi.

Ifoto iriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye bitangwa n'ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi, aho ushobora kwishyura ukoresheje amadorari.

Ifoto iriho amabara atandukanye igaragaza ikirango cy'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi benshi bakunze kwita onuliyine shopingi.

Ifoto iriho ibicuruzwa bitandukanye biriho imboga na imbuto by'ikigo "Afri-farmers" na nimero wahamagaraho bakabikugezaho mu buryo bwihuse.

Abagore mu iterambere ry'igihugu. Mu kazi kose ntabwo bahejwe; ibyo abagabo bashoboye na bo babasha kubikora, urugero nko gutwara amapikipiki.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye harimo; inkweto, amasakoshi, imyenda amaterefone. Ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi ushobora kwihahira ukishyura mu madorari. Igabanyirizwa rya mirongo itanu ku ijana.

Mu biruhuko bya noheri n'ubunani twagurishije ibicuruzwa byinshi, nicyo gihe kiza twakoreyemo amafaranga menshi kuruta indi minsi yose.

Uruhare rw'abagore mu iterembere n'imiyoborere. Ikarita iriho amafoto y'abayobozi batandukanye mu nzego z'abagore.

Ibigo bitanga serivise z'ubucuruzi mu kohereza ibicuruzwa ku bakiriya aho batuye, byakorewe ubushakashatsi bugaragazako bacuruza mu buryo bwihuse.

Ipikipiki yicayeho umugabo wambaye ingofero mu mutwe, akandagije ikirenge hasi; ahetse agasunduku karimo ibicuruzwa bikorwa n'ikigo cya vuba vuba.

Icyapa cyamamaza kiriho amashusho y'abakora ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, ibicuruzwa bitandukanye ushobora kubaha ubutumwa bugufi.

Ikipikipi ebyeri zihagaze zegeranye, zombi zikoreye udusanduka turimo ibicuruzwa bishyikirizwa ababitumije mu ngo zabo.

Icyapa kigaragaza abatanga ibicuruzwa mu gitondo cya kare, ubikeneye wabandikira kuko babikugezaho bazindutse.

Ibicuruzwa byiza imineke, ibirayi ku giciro gitoya. Icyapa cyamamariza abacuruza kuri murandasi ibiribwa.

Icyapa kiriho abakobwa babiri beza birabura, bamwenyura bafite agakarito muntoki bambaye imipira ikozwe m'ubudodo.

Duhamagare ku icyenda rimwe rimwe rimwe tukugezeho ibicuruzwa bya kasha, isuku n'ubuzima ni yo ntego yacu twashyize imbere.

Icyapa kiriho umukobwa useka amwenyura yamamariza ikigo cy'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, aho wakihahira ibicuruzwa onulayini.

Igikuta cy'umukara cyandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, inkweto nziza za eyafosi aho wazigura ntarenze amafaranga igihumbi mu mujyi wa Kigali.

Ikigo gikoresha ikoranabuhanga mugucuruza ibicuruzwa byacyo gikoresheje urubuga rwa murandasi ikomoka muri amazone.

Imodoka isize irangi ry'umutuku inyuma kukirahure kinini hometseho icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi cya MIGRO gicuruza ibicuruzwa kuri murandasi.

Telefoni ngendanwa, mu kirahuri cyayo haragaragaza amafoto atandukanye, harimo utwuma two kumanikaho imyenda, ubuki n'ikawa, aho watemberera ukaruhuka n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora gukenera.

Icyapa kiriho ibiganza bibiri biteruye agasashi karimo utunozasuku dukunze gukoreshwa n'abagore. Baramamariza ikigo kibikora.

Udusanduku dufite ibara ry'icunga mu rurimi rw'amahanga oranje, duteretse kumapikipiki ane ahagaze kumurongo.

Ifoto yo muri mudasobwa, yanditsemo amagambo agaragaza serivise zitangirwa muri Leta.

Gutumiza ibicuruzwa ukoresheje itumanaho rya murandasi, byorohereza umukiriya kuko nta ngendo akora ajya kubizana.

Abakobwa babiri n'umusore umwe bicaye imbere ya mudasobwa zabo bari gukora ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi.

Twandikire tukugezeho ibicuruzwa ukeneye tutakwatse ikiguzi cy'urugendo kuko dufite ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Irebere nawe utubwire ibyo ukeneye.

Urubuga rwagufasha kwagura ibikorwa byawe by'ubucuruzi butandukanye hakoreshejwe ikorana buhanga rigezweho. Ushobora kuruhamagara wifashishije nimero ziri hasi.

Tugane tuguhe ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye harimo iby'ikoranabuhanga, imyambaro n'ibindi. Ibiciro twabihananuye kugera kuri mirongo itandatu ku ijana.

Uru rubuga nirwo wabarizaho ibicuruzwa bigezweho bigendanye n'igihe nk'amakanzu, imipira, inkweto, amaterefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro gito.

Ifoto iriho amashusho y'ibicuruzwa bitandukanye wakenera kugura ukoresheje ikoranabuhanga ryo murandasi ugatumiza bitewe n'icyo ukeneye, imisatsi, inkweto, amasakoshi, imyenda n'ibyo gukora ubwiza.

Ifoto igaragaza ibiribwa bitandukanye wakwihahira, ukoresheje itumanaho rya murandasi. Ibiciro ni bitoya cyane.

Igisanduku cy'umutuku giteretse ku ipikipiki, umugabo upfundura ashyiramo agasashi, yambaye kasike y'icyatsi kibisi, ipantaro y'ikoboyi.

Isoko ry'i Kigali ricururiza kuri murandasi ibiribwa bitandukanye, amagi, amakaroni, amasosi avangavanze.

Icyapa gitoya kiriho ibicuruzwa bitangwa n'ikigo gikorera kuri murandasi, aho ushobora kwigurira ifu y'ibigori.

Umukobwa muto wirabura apfunduye agasanduku k'icyatsi kibisi arakuramo akabuwate k'umutuku ashyiriye umukiriya.

Ikarita iriho ifoto y'ikigo gikorera kuri murandasi gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo telefoni na za mudasobwa.

Umusore wirabura uhagaze imbere ya kompiyuta igaragaza ibicuruzwa bitangirwa kuri murandasi, arakora imenyekanisha bikorwa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, ifite ishami Nyarutarama na Kibagabaga. Ibirango byayo bigaragaza ko wagura bakanabikugereza mu rugo.

Umusore ukiri muto wicaye kw'ipikipiki ukora ubucuruzi bwo gushyira ibicuruzwa abantu aho baherereye. Ni umukapo, kuki abandi bazana ubunebwe bakirirwa barira ngo akazi karabuze.

Icyapa kiriho umukobwa witeze agatambaro, mu biganza bye ateruye terefone arasoma ubutumwa bujyanye nuko ashobora kubona ibicuruzwa bizanwa n'itumanaho rya vuba vuba.

Ikigo vubavuba abagikorera baragishimira kuko cyabahaye akazi ubushomeri buragabanyuka mu gihugu cyacu.

Iguriro ibicuruzwa bitandukanye kubacuruzi bacururiza impande n'impande kubiciro utasanga ahandi tubikugereze aho utuye ntakiguzi utanze.

Igorofa rirerire rikoreramo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa n'imyambaro n'ibikoresho byo mu ngo. Indabo nziza ziteye mu marembo yandi.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru; hasi no hejuru hakorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, imbere hahagaze imodoka y'umukara.

Isoko Sanju ushobora kubahamagara bakaguha urutobde rw' imyenda igezweho ijyanye n' icyerekezo turimo. Bandikire unyuze ku rukuta rwabo rwo muri andasi.

Ibinyabiziga bitatu byo mu bwoko bwa moto bihagaze ahantu hamwe biriho udusanduka turimo ibicuruzwa, bishyirwa abantu bahahira kuri murandasi.

Ipikipiki ya umukara iriho igisanduka gipfunduye, kuruhande umugabo wambaye kasike ya icyatsi kibisi, ateruye agasashi ahereza umugore wa inzobe, arakakira anezerewe.

Imodoka ihagaze ikinguye ibirahuri, umugabo wicaye amwenyura wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'ubururu, ateruye agakarito mu ntoki akorera ikigo cyubucuruzi gikorera kuri murandasi.

Umusore wikoreye ikarito ku rutugu, wambaye ikote ry'ubururu; impande ye hari icyapa cy'umuhondo kiyobora abagana ikigo cy'ubucuruzi cya Twiga.

Resitora aho ushobora kwicara ufata amafunguro yawe wiyumvira amahumbezi, parikingi nini, tubafitiye n'inyama zituruka mu Budage

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi. Gikangurira abantu kubagana, kugira ngo babashe kubona inyungu ya mirongo itatu n'atanu ku ijana.

Agasanduku karimo ibicuruzwa by'ikigo vuba vuba, gateretse ku ipikipiki aho umuguzi atumiza ibicuruzwa bikamusanga aho ari hose.

Hagati y'abagabo babiri haparitse ipikipiki iriho agasanduku karimo ibicuruzwa, umumotari arapfundura akuramo ibicuruzwa ahereza umukiriya.

Ku muhanda w'akaburimbo hahagaze umugabo umwenyura yifashe mu mufuka yegamiye agasanduka gateretse ku ipikipiki, inyuma ye hari icyapa kigaragaza umuhanda ujya Bugarama.

Icyapa kiriho umushinga wa vuba vuba ukora ubucuruzi bugemurira abaguzi ibicuruzwa aho baherereye mu ngo zabo, ugaragaza ko ubona inyungu ndetse n'umusaruro uhagije.

Amandazi aryoshye ari mu kabuwate kabonerana akorwa n'uruganda rwo kwa Nyirangarama igiciro cyayo maganatatu mirongo itanu.

Amapikipiki abiri ariho abagore, iyo ufite urugendo rwihutirwa ukayitega nta gukererwa mu nzira kuko irihutisha.

Urakoze guhitamo uru rubuga rukorere kuri muri andasi aho ushobora kwigurira amatike y'indege, ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi bukorerwa kuri muri andasi, inkweto z'igiciro cy'amafaranga ibihumbi icumi na maganatanu y'amanyarwanda. ibirenge byiza.

Icyapa kiriho nimero ziranga ubucuruzi bw'urubuga rukorera kuri murandasi, aho wakigurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye bakabikugereza aho uri hose.

Icyapa cyamamariza ikigo gikorera ubucuruzi kuri murandasi harimo ibikoresho ngendanwa by'amaterefone by'ikoranabuhanga imyambaro n'ibindi bitandukanye.

Terefone ngendanwa iri ku mahembe y'ipikipiki icometsemo imigozi ibiri ucaginga n'uwa ekuteri mu kirahure cyayo hagaragaza icyerekezo lokesheni.

Ipikipiki itwawe n'umugabo wambaye umupira utukura, agakomo ku kuboko, ipantalo y'ikoboyi y'ubururu n'ingofero mu mutwe ya casike; ahetse agasanduku k'umutuku karimo ibicuruzwa, yerekeza ku bakiliya.

Amapikipiki ari mu muhanda yicayeho abagabo bambaye ingofero zitukura n'amajire, bakorera ishyirahamwe rya ''yego''.

Imipira migufiya ifite amabara atandukanye imanitse ku gati. Akapa k'umuhondo, mudasobwa ku ruhande. Ikigo cy'ubucuruzi gikorera onurayini.

Ku rukuta rwa mudasobwa aho ushobora kunyuza ibicuruzwa byawe ukabasha kubona abaguzi mu buryo bukoroheye utagombye kuvunika.

Ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi giherereye mu Rwanda i Kigali, gicuruza ibicuruzwa bihendutse ukigannye wese ahabwa serivise inoze.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, ifoto y'umugabo n'umugore bahererekanya ibicuruzwa.

Mu muhanda w'igitaka hahagaze abagabo babiri umwe azanye ibicuruzwa ku mukiriya wambaye agapfukamunwa k'umukara ahagaze inyuma y'igipangu.

Ikigo cy'ubucuruzi gikorera mu mugi wa Kigali, aho usanga ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa, imyambaro, inkweto n'ibindi bigiye bitandukanye, ushobora kubandikira bakabikugezaho aho uherereye hose.

Icyapa kiriho ibicuruzwa by'ibiribwa bitandukanye: inyama, ibitoki, amafarini n'amafi, ibishyimbo n'imboga z'ubwoko butandukanye. Ibiciro babigabanyije! Kimironko munyarukireyo.

Icyapa kiriho bimwe mubikoresho ushobora gutangamo impano uwo ubihaye ntazigere akwibagirwa bitewe nuko bidasaza vuba.

Icyapa cy'ubucuruzi icupa ryagaze ryo mu ibara ry'ubururu, icupa rinini ririmo amazi, nimero wahamagaraho bakabikugereza aho utuye.

Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko amapikipiki akoresha umuriro, yihutisha ibicuruzwa ndetse n'abagenzi bayatega.

Umugabo uhagaze imbere y'igipangu cy'ubururu wambaye ingofero mu mutwe n'umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu, ajyanye ubutumwa kubakiriya inyuma ye haparitse ikinyabiziga cya moto.

Amavuta meza ahendutse ashobora gutunganya uruhu rw'abagore mu kuruha ubwiza rukoroha rugatoha ku giciro gito.

Icyapa kiriho ifoto y'ibiribwa bikunzwe na benshi ku isi, amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru, "uyu ninde utekereza ko ari umukapo?"

Icyapa kiriho umusore w'umuzungu wambaye ikoti ry'ubururu. Itangazo rihamagarira abantu bakeneye amahugurwa mu gihe cy'amezi atatu. Aho wishyura mu byiciro.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora gutumiza ibicuruzwa ukoresheje itumanaho rya murandasi, bakabikugezaho biturutse mu mahanga.

Ifoto iriho ibicuruzwa bikunda gukenerwa n'abagore. Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi aho ushobora guhaha amaherena, imisatsi, amavuta yo kwisiga, n'ibindi bitandukanye.